Ni igishushanyo cy'ikibabi bigaragara ko gishushanyije ku rukuta rw'ishuri, kikaba kiriho ibice bigize ikibabi mu rurimi rw'icyongereza, aho bigaragara ko gifasha abanyeshuri biga kugira ngo basobanukirwe n'ibijyanye n'ibimera.

Abantu bari mu nyubako itangirwamo uburezi bw'abana b'inshuke bigaragara ko ari umurezi uri kwigisha umwana mutoya uri kumwe n'ababyeyi be, aya mashuri afasha abana kugira ngo babashe kuba bakura bafite ubwenge.

Ibishushanyo bibiri biteganye, kimwe kiri mu mabara y'umukara, ikindi kiri mabara y'icyatsi kibisi, bikaba bifite imbunda, bigaragara ko biteganye bimeze nk'ibigiye kurasana.

Icyapa kigaragaza urwunge rw'amashuri rwa Burega, hakaba hagaragara umuhanda w'igitaka winjira muri icyo kigo, n'ikigo gifite inyubako zisa n'izishaje kikaba gifite n'ubusitani.

Ikibuga kiriho abana bato bari gukinira ku myicundo igiye itandukanye, abana bakaba bari kumwe n'abarezi babo, ku nkengero ndetse no hirya y'ikicyo kibuga hakaba hari ibiti by'inturusu by'inganzamarumbo.

Abana bambaye impuzankano z'udushati tw'ubururu ndetse n'utujipo tw'ubururu bakaba bicaye ku mukeka bigaragara ko ari mu cyumba bigiramo, ibi byumba bikaba bifasha abana bato gukura bafite ubwenge.

Igishushanyo k'ingofero yambarwa n'abana mu gihe bagize isabukuru y'amavuko, iyo ngofero ikaba ibafasha kwishima ndetse umunsi mukuru wabo ukaba wagenda neza.

Inyubako igaragara igice kimwe ikaba ari inyubako isakaje amabati iteye na sima ariko bigaragara ko isa n'ishaje, imbere y'iyi nyubako hakaba hari ikibuga kiriho ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abarezi barerera mu bigo by'amashuri y'inshuke bakaba bari kumwe n'abana batoya ku kibuga aho bari kubafasha kwidagadura babashyira ku myicungo kugira ngo babashe kuba barya umunyenga.

Ni mu nyubako hakaba harimo utubati dutandukanye tugiye turimo ibitabo by'ubwoko bugiye butandukanye, bikaba bigaragara ko ari mu isomero aho abanyeshuri baza gusomera ibitabo.

Inyubako y'ishuri, ikaba yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo ku rubaraza hakaba hari abantu, bigaragara ko ari abarezi, imbere y'inyubako hakaba hari ubwoko bw'ibiti bitandukanye.

Inyubako y'amashuri abanza, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, aho hagaragara inyubako icyubakwa ndetse ku nkengero y'iyo nyubako, hakaba hagaragara ibiti ndetse n'umuntu uri kugenda.

Ibikoresho byifashishwa n'abana biga imibare, aho ari amarati atatu ndetse n'agasibisho, ibi bikaba bifasha abana biga amashuri abanza mu guca imirongo igororotse.

Ku kigo cy'amashuri, hakaba hahagaze abarezi, bambaye amatabiri y'umweru ndetse n'abamansera, kuri icyo kigo impande yacyo hakaba hari ubwoko bw'ibiti birebire.

Ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza bikaba bibafasha mu gushushanya ndetse no guca imirongo igiye itandukanye mu gihe barimo biga isomo ry'Imibare.

Umugabo wicaye mu cyumba bigaragara ko ari icyumba k'ishuri akaba afite ikaramu ari kwandika bikaba bigaragara ko uyu mugabo ari umwarimu uri gukosora abanyeshuri.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri hakaba hagaragara ubusitani bugiye butandukanye, muri ubwo busitani hakaba harimo ibyapa biriho ibishushanyo bigiye bitandukanye.

Inyubako yigishirizwamo abana biga mu mashuri abanza, hirya yayo hakaba hagaragara ko hatuye abantu bagiye batandukanye ndetse hakaba hagaragara ibimera ndetse n'ibiti bitandukanye.

Ibitabo by'ubwoko butandukanye biri ahantu muri etajeri bigaragara ko ari icyumba k'isomero, aho abantu bashobora kugana bakaba basoma ibitabo bitandukanye.

Amarembo yinjira mu rwunge rw'amashuri rwa Rukomo. Aya marembo akaba ahi ikaze buri wese ukeneye kwinjira muri iki kigo. Ni ikigo cyubatse ahantu hari ibiti bitandukanye.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri ikaba ifite imiryango myinshi, ku rubaraza rw'iyo nyubako hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara ndetse ku kibuga hakaba hari kandagira ukarabe.

Igishushanyo gishushanyijeho abantu batandukanye harimo ababyeyi ndetse n'abana bicaye ku dutebe ndetse hakaba hagaragara n'ishusho y'ibimera.

Inyubako yigishirizwamo abana batoya harimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe, ameza ndetse n'utubati tugiye turimo udukoresho dutandukanye haragaragara n'ikibaho bandikaho.

Amakarita ashushananijeho ubwoko bw'ibishushanyo bitandukanye yifashishwa mu mashuri abanza kugira ngo basobanurire neza amasomo abana kugira ngo babashe kuba batsinda neza.

Urubyiruko ruri ahantu mu kayira k'igitaka, bakaba bafite icyapa cyanditseho amagambo ajyanye no kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kabiri, bakaba bambaye udupira tw'umweru ndetse n'amapantaro y'igikara.

Icyumba k'ishuri kikaba kicayemo abanyeshuri bari mu ishuri bambaye amashati y'umweru, bigaragara ko bari kwiga isomo runaka kuko ubarebye ubona ko bakurikiye mwarimu uri kubigisha.

Ni inyubako y'ishuri ikaba yubatswe ku buryo bw'igorofa, ikaba yubakishije amatafari ndetse ifite n'urugo rw'ibyuma, iruhande ndetse n'inyuma y'iryo shuri hakaba hagaragara ibiti ndetse n'ubusitani.

Inyubako igaragara ko ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, hakaba hari ubusitani butaratoba neza bwubakiye uruzitiro, iruhande rw'iyo nyubako, hakaba hari ikigega ndetse hagaragara n'amapave asashe ku mbuga y'iyo nyubako.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ishuri bakaba bambaye amashati y'umweru, bicaye ku ntebe aho imbere yabo ku meza hariho amakayi ndetse bakaba bari kwandika.

Aha ni ku kigo cy'amashuri, hakaba hari abana benshi bari ku murongo ndetse n'inyubako zitandukanye z'amashuri, hakaba hagaragara n'umurezi w'umudamu uri gutera intambwe.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri ikaba iriho ibyapa bigiye bitandukanye, aho hariho ibyapa bya kirazira, amahame ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho abanyeshuri bayasoma kugira ngo babashe kuba bayakurikiza.

Ikigo cy'amashuri kiriho inyubako zitandukanye z'amashuri, hakaba hari n'ubwoko bw'indabo ndetse n'idarapo, muri icyo kigo hakaba hari ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye.

Abantu bari ku rubaraza rw'inyubako, bakaba bambaye amajire bigaragara ko ari abakozi, ni inyubako ifite urugo rwubakishije ibyuma bifite irangi ry'ubururu.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ishuri bakaba bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa, bigaragara ko bicaye mu ishuri bari kwiga cyangwa se bari gukora ikizamini.

Abantu benshi bari mu cyumba bigaragara ko ari icyumba cy'ishuri, hamanitse icyapa cyanditseho Nyagatare secondary school, hakaba hari abanyeshuri ndetse n'abandi bagabo batari abanyeshuri.

Inyubako bigaragara ko ari ishuri, imbere yayo hari idarapo ry'u Rwanda ndetse haruguru yayo hakaba hari ikigega gifata amazi, hakurya hakaba hagaragara ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ni mu cyumba k'ishuri kikaba kirimo abantu bambaye amajiri afite amabara atandukanye, bari iruhande rw'ameza bigaragara ko hari ibikoresho byifashishwa mu gukora ubushakashatsi.

Abantu batatu bari iruhande rw'inyubako yubakishije amatafari, ikaba ifite urugo rw'ibyuma, abo bantu bambaye amajire bigaragara ko ari abakozi bakora kuri iyo nyubako.

Inyubako y'icyumba cy'ishuri ikaba iteye irangi ry'umweru, ikaba ifite ibirahuri, imbere yayo hakaba hari imbuga ishasheho amapave bigaragara ko iyi nyubako ari iya kaminuza.

Abanyeshuri b'abakobwa biga mu mashuri ya kaminuza bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara ndetse n'amashati meza, bakaba bafite icyuma k'ikoranabuhanga, bakaba bafite ibyo bari kureba mo.

Abanyeshuri basoje kaminuza bakaba bateraniye hamwe bambaye umwenda w'ikirori aho bambaye amakanzu ndetse n'ingofero bigaragara ko ari ku munsi wo gusoza amasomo cyangwa se garaduwesheni.

Abantu babiri umuhungu ndetse n'umukobwa bigaragara ko ari abanyeshuri biga muri kaminuza, bari kugenda mu muhanda ushashemo amapave, hirya ku nkengero y'umuhanda hakaba hagaragara ibiti.

Abantu benshi bateraniye muri sale bigaragara ko ari icyumba, akaba biganjemo urubyiruko rwambaye impuzankano y'udupira tw'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, bafite mudasobwa ndetse bari kumwe n'abandi bantu.

Mu cyumba k'inyubako y'ishuri hagaragaramo abanyeshuri bicaye ku ntebe ndetse hakaba harimo n'ameza, izi nyubako akaba ari inyubako za kaminuza aho abanyeshuri bazifashisha mu kwiga amasomo yabo.

Abanyeshuri bambaye amakanzu meza bafite n'ingofero, bigaragara ko ari abanyeshuri basoje amashuri yabo ya kaminuza, bikaba bigaragara ko bishimye bari kwifotoza.

Abantu biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, babigisha uburyo butandukanye bwo kuba babumba ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko ari akantu k'agakoresho babumbye bifashishije ibumba.